Aba ni abantu bicaye bagiye batandukanye abagore n'abagabo n'abandi bahagaze, inyuma hari imodoka zitwara imizigo myinshi z'ibikamyo, aho hari abagore n'abagabo bateze amatwi n'abambaye ingofero, bari kwitegura bari kumva ibyo bababwira.

Aha hari abagabo bane, umwe arahagaze afite mikoro abandi batatu baricaye ku ntebe z'imibare y'umukara bambaye ikositimu. Inyuma hari insanganyamatsiko ivuga ngo inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Gasabo, biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Aha hari abantu bicaye bateze amatwi harimo abagore n'abagabo bamwe turi kubona umugore wambaye ikoti ririmo uburongo bw'umweru n'umukara n'undi witandiye buri inyuma wambaye umukara barakurikiye bose.

Aha ni imbaga y'abantu abagore n'abagabo, abakobwa n'abasore, aho bicaye bateze amatwi, bicaye ku ntebe z'umukara, bicaye mu gisharagati, aho hari n'abazungu bambaye ikositime, hirya hari igisharagati gikozwe n'amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Aha hari abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe bicaye bari kumureba bafite ibyo bari kuganiraho bafite amazi imbere yabo n'icupa ry'inyange bakaba bafite n'amagambo abanditse inyuma harimo Kigali yacu kigali icyeye nibindi.

Aha hari umugore ufite mikoro wambaye amarinete wambaye agapira n'ijipo, uri kuvuga na mikoro abandi bakaba bicaye bamuteze amatwi harimo abagore n'abagabo.

Aha ni mu nyubako irimo imbaga y'abantu harimo abagore n'abagabo bicaye bari kumva ibyo babwira, ni ahantu muri sare hanini cyane izo ntebe ziri mu ibara ry'umutuku, abarimo harimo abambaye umukara, umweru, ubururu amabara agiye atandukanye.

Aha hari abantu batatu, umugore, umukobwa, n'umusore bafite amazi imbere yabo, umukobwa urimo hagati afite mikoro ari kuvuga, uwo kuruhande we yambaye rinete, bari kuganira.

Aha ni imbaga z'abantu harimo abagore n'abagabo, inyuma hari abahagaze ,imbere baricaye bambaye udupira tw'icyatsi ,inyuma abandi bambaye umuhondo hari n'abambayemo umweru, mu bicaye hari n'abambayemo ishati y'ubururu n'umupolisi wambaye ubururu bwijimye.

Itangazo ryo kwamamariza ikigo gikoresha serivisi kuri murandasi kizwi nk'irembo iryo tangazo rivuga ko bafunguye uburyo bushyashya aho bakwishyura serivisi zo muri laboratwari bifashisha mu ibirembo, umunsi hari uburyo wabona aho wabashaka guhamagara kuri mirongo ikenda icyenda n'ikenda

Aha hari abantu bicaye bari mu nama, imbere hari undi uri gutanga ikiganiro wambaye ishati y'umukara aho kuruhande hari undi ufite kamera wambaye agapira k'ubururu. Abandi baricaye bateze amatwi ibyo bababwira.

Aha hari abakobwa n'abasore bicaye bakurikiranye ikiganiro, aho bamwe bambayemo udupira twurimo amabara y'icyatsi abandi utw'umuhondo n'abande utw'ubururu, hari n'undi mugabo uhagaze wambaye agapira k'icyatsi ari kugenda azenguruka abareba.

Igitanda kinini gikozwe mu mbaho gisizwe irangi ry'umutuku kiri ahantu bagurisha ibitanda bikoreshwa bijyana mu mazu yabantu.

Aha ni imbaga y'abantu, baricaye bateze amatwi. Harimo abagore n'abagabo, harimo n'abahagaze. Bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo, barikumva amakuru ku ruhande. Iyi nyubako iri mu mabara y'umweru, ifite amatara yaka umweru.

Aha ni mu nama aho hari abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, ikindi imbere yaho hari icyapa cyanditseho ngo Repubulika y'u Rwanda umujyi wa Kigali inama, ikindi ku ruhande hari umuntu uhagaze ku gatuti ufite mikoro w'umugore.

aha hari abagabo n'abagore bicaye n'undi mugabo n'undi mugabo uri ku ruhande bari kuvuga bafite za mudasobwa. Imbere yazo umwe afite mikoro ari gutanga inama abandi bagiye bafite amazi imbere yabo y'inyange.

Aha hari inama harimo abantu bagiye batandukanye abagabo, hari umwe ufite mikoro imbere yabo bafite amazi yo kunywa, hari n'ingofero mu mabara y'ubururu, hirya hari abambaye ikositimu hari n'abambaye amashati ari mu ibara ry'umweru.

Aha hari imbaga y'abantu bicaye ku ntebe n'ameza atwikirijwe n'ibitambaro by'umukara, bafite amazi imbere yabo, hari abafite za mudasobwa ziri mu bikapu, hari abandi hari undi uhagaze uri kugenda afata amafoto, hirya hari abagore n'abagabo.

Iyi ni inama yiganjemo abagabo gusa harimo n'umugore, aho bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'umukara, hakaba hari n'ameza ariho bagenda baganira, buri umuntu wese agiye afite mikoro, aho inyuma handitseho Kigali yacu, Kigali yacu, aho bari kuganira.

Aba ni abantu bahagaze, ni abagabo gusa bahagaze bahekeranye, inyuma hari inyubako yubatswe mu birahure bahagaze ku ma esikariye ya kabiri, bambaye bamwe bambaye amakositimu, abandi bambaye amakanzu n'abandi bambaye ingofero.

Aba ni abantu bicaye bari mu nama harimo abagore n'abagabo bambaye udupira turi mu mabara y'umweru bicaye mu ntebe ziri mu mabara y'umutuku bafite ameza imbere yabo atwikije igitambaro kiri mu mabara y'umukara bafite amazi y'inyange buri muntu wese imbere yaho hari ibyanditswe bari gusoma bafite n'amarido arimo amabara ya kaki yererutse.

Aha hari abantu abagore n'abagabo bari mu nama zitandukanye, imbere hari abafite ibitabo harimo n'amapiki imbere hari n'abandi bagiye bafite amazi ari mu icupa n'ibirahuri byo kuyanywesha. Bagiye batandukanye harimo abagore n'abagabo.

Aha hari abantu bicaye ku ntebe ziririmo amabara y'ubururu bwerurutse, bamwe muri bo bambaye kositimu harimo abagore n'abagabo bakurikiranye ikiganiro hari n'abandi bafite mudasobwa imbere yabo.

Aha hari abagore, n'abagabo, bafite ihene zigiye zifite ibiziriko mu ijosi, ku ruhande hari idarapo, riri mu mabara y'icyatsi, umuhondo, n'ubururu, hirya hari inyubako, hirya hari insina z'ibitoki, aho hino hagiye hari n'indi nzu.

Aba ni abantu bicaye mu nama bambaye hejuru udupira dusa umweru imbere hari umukobwa ufite mikoro uri kubaha ijambo yambaye agapira karimo ubururu akambara nijire y'umukara kuruhande hakaba hari ibi papuro bitatu byanditse mu magambo y'icyongereza.

Aha ni mu nama y'abantu bicaye harimo abagore bambaye ibitenge, bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'umweru, imbere hari abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umukara, imbere hari igitambaro cy'umweru ,hari nuri ku ruhande ufite mikoro uri kuvuga, imbere kandi hari igipapuro cyanditseho Repubulika y'u Rwanda.

Aha hari imbaga z'abantu zicaye imbere hari ameza atwikirije ibitambaro by'umweru, hari abafite mudasobwa kandi bafite amazi imbere yabo ya Nile, harimo abagore n'abagabo bateze amatwi ibyo babwira, hari umwe ufite mikoro.

Aba ni abagabo bambaye kositimu harimo n'amashati mu imbere y'amaboko maremare, imbere yabo bafite amazi ari mu icupa n'andi mu kirahure kiri kuhande hari n'uturabyo dufitemo amabara y'icyatsi, inyuma hari abandi bagabo bagiye batandukanye.

Aha hari inyandiko iri mu rurimi rw'icyongereza, ivuga ukuntu ushora imari mu bintu byawe. Umutwe w'amagambo wanditseho ngo Rwanda Divelopumenti Bodi.

Aha ni inyubako ifite umuryango, hejuru handitse irembo riri mu ibara ry'umweru akapa gasa ubururu. Winjiyemo ubona ameza na murandazi, umuryango urafunguye usize irangi ry'umweru.

Iki ni icyangombwa cy'umusoro w'ipantati aho cyanditswe mu rurimi rw'ikinyarwanda hari na mudasobwa ebyiri inini n'intoya bari kuvuga ko tugomba kumenyekanisha ipantati y'umwaka wose ya bibiri na makumyabiri na gatanu cyangwa igihembe cya mbere, uyu munsi wishyure mbere y'italiki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere, bibiri na makumyabiri na gatanu.

Uru ni urwandiko rw'Irembo rwandikishije amagambo y'Icyongereza, bisobanuye mu Kinyarwanda ngo iyandikishe ubone seritifika y'uko uri singo ukoresheje USSD kode, ariyo akanyenyeri magana cyenda n'icyenda urwego.

Aha ni urwandiko rw'irembo rufite umutwe uvuga ngo serivisi nshya ku rubuga irembo gove ahangaha rwanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda aho baduha imyirondoro yose bakaduha watsapu duhamagaraho aho twandikira kuri twita byose byose.

Aha hari abantu bicaye mu muzenguruko ku ntebe bafite imeza yabo iriho murandasi, abo bantu ni abagabo gusa bambaye ubupira bwo hejuru bamwe bambaye ubw'umukara, abandi bambaye ubw'umweru.

Aha ni mu muhanda, harimo abamotari babiri bafite abagenzi, ku ruhande rwabo hari umunara, hari n'icyapa cya antene kiri mu mabara y'umuhondo n'ubururu. N'ibiti ku ruhande, n'itara ryo ku muhanda.

Iyi ni seritifika y'irembo; iri mu rurimi rw'icyongereza aho murimi rw'Ikinyarwanda bivuga ko ari serivisi nshya z'irembo ku rubuga rw'irembo. Instution ni minisita ovu nashino yuniti andi sivo ingajimenti, kategori yayo ni iy'umuryango. Izina rya serivisi ni seritifika ikeneye abacitse ku icumu mu gihe cya Jenoside, hasi batanga amakuru yose atandukanye.

Aha ni mu muhanda aho harimo imodoka iri mu ibara ry'umukara, harimo tagisi iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi. Hari n'umunara ku ruhande, hari n'igiti, hari n'ibirangantego bya Tigo, hari n'abantu bambaye ubururu hejuru bari kwamamaza ibintu bya Tigo.

Aha hari abakinnyi bakina bako batanu, harimo bambaye udupira dufite amabara y'umweru n'umutuku handitseho Visiti Rwanda mu magambo y'icyongereza bivuze gusura u Rwanda, ikindi hasi handitse Tour du Rwanda biri mu rurimi rw'igifaransa.

Uru ni urwandiko rw'irembo rwanditse mu rurimi rw'icyongereza bisobanuye mu kinyarwanda ko ari serivisi nshya z'irembo ku rubuga rwaho ahavuga ngo you can now pay your laboratory test on Irembo bisobanuye ko wakwishyura labotest ku irembo byoroshye baduha twitter yaho batubwira aho twahamagara hari na telefone ku ruhande.

Aha hari umugabo wambaye amarinete n'ingofero, yambaye n'ijire y'umukara, afite mudasobwa imbere ye irimo ibintu bigiye bitandukanye, imbere ye hari umukobwa wambaye umweru, wambaye na ekuteri z'umweru.

Ni urupapuro rw'irembo aho bavuga ngo intambwe ya kabiri kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizami cyo gutwara ibinyabiziga, aho bakubwira ibisabwa bakakwereka na mudasobwa, amashusho ya mudasobwa na telefoni isobanura byose uko babikora.

Aha hari amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ari mu mabara y'ubururu amagambo yandikishije mu ibara y'umweru n'umuhondo yandika avuga ngo umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa rya umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza za buri mwaka hino hari inyubako iri mu mabara y'umweru n'ibiti.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Aha hari umukobwa usutse ibisuko biri mu ibara ry'umukara w'inzobe, wambaye amakutere ari mu ibara ry'umukara, afite mudasobwa imbere ye, ikindi yambaye agapira kari mu ibara ry'umweru afite ibintu muri mudasobwa ye bigiye bitandukanye.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hari ibiti biri mu mabara y'icyatsi, hepfo yaho hari inyubako ya etaje, ruguru hari ipoto y'amashanyarazi itwara amashanyarazi ahantu hose hagiye hatandukanye, ku ruhande hakikijwe n'intuza iri mu mabara ya gere.

Aha ni mu nkengero z'umuhanda aho tubona itara rimwe ryo ku muhanda ryaka nijoro riboneshereza abagenzi hari n'ibiti ku ruhande rwabyo, inyuma ya'ho hari korotire yubakishije ubutafari bwa mpunyu, hirya hari inyubako ya etage iri mu mabara y'umuhondo.

Uyu ni umunara uriho imigozi y'amashanyarazi igiye itandukanye hari n'inzu iri munsi yaho iri mu ibara ry'umuhondo n'ibiti ruhande.

Aha hari inyubako ku ruhande hari inyubako ya etaje, imbere hari umunara w'amashanyarazi ,aho ku ruhande hari uduti tugiye dutandukanye, aho umunara w'amashanyarazi, ku ruhande hari anteni iri mu ibara ry'umweru.

Iri ni ipoto ry'amashanyarazi ritanga amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye, ku ruhande hari inyubako yubakishije udutafari twa munyu, hirya hari amadirishya ari mu ibara ry'ubururu, hanze hari pasuparume imeze neza, hari n'indabyo ziri mu ibara ry'icyatsi cyererutse n'icyatsi kijimye.

Iyi ni ipoto ry'umuhanda aho itanga amashanyarazi agiye atandukanye, hakaba hariho n'amatara yakira abantu, ku ruhande hariho ibiti biri mu mabara y'icyatsi, ku ruhande hari korotire igiye itandukanye.

Aha hari abagore n'abagabo, aho bari kurira ku bintu by'amashanyarazi, bambaye utugofero turi mu ibara ry'umuhondo n'ibisarubeti biri mu ibara ry'ubururu, bafite inzego bari kugenda burira, hirya hari igiti kiri mu mabara y'icyatsi.

Aha hari inyubako ya cadasiteri aho yanditseho ngo ibitaro bya masaka byanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda n'urw'icyongereza, ku ruhande hari abagore n'abagabo harimo abazungu n'abirabura harimo abambaye amataba y'umweru.

Aha ni kwa muganga aho hari amburanse zigiye zitandukanye, inyinshi ziri mu ibara ry'umweru, hari n'abagabo bahari n'abandi bari kubyitaho. Inyuma hari inyubako iri mu ishusho y'umuzenguruko.

Aha hari abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, bambaye bose amakanzu ari mu ibara rya oranje, bicaye ku ntebe y'umukara, bafite amazi imbere yabo, umwe aricaye w'umugore, abandi babiri bari gusuhuzanya.

Iyi ni inyandiko iri mu rurimi rw'icyongereza igiye irimo ingingo zigiye zitandukanye iya kane iya gatanu ivuga ku bintu bigiye bitandukanye aho w'amagambo urikuvuga ko ari kabinetinet apuruvudi bayi de agurimenti bayi de ofu de foreni gayi ambasada konseti andi repurisentativu of intenashinolu oganayizeshoni.

Aha hari umugabo ufite uruhara uri guseka yambaye agapira k'umweru, afite aka mikoro karafashe ku myenda ye ,kuruhande hari indi mikoro idafashe ku myenda ye ,inyuma hari amabara y'umukara n'umweru.

Aba ni abantu bicaye imbere yabo hari amazi y'inyange hari na sanitayiza bambaye n'udupfukamunwa hari n'abafite mudasobwa imbere yabo bamwe muri bo ntazo bafite abandi barazifite.

Uyu ni musaza wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'umweru, yambaye karuvati irimo ubururu bwiganje n'akaru gake, yambaye ingofero ifite kaki yi yerurutse cyane. Hakaba harimo n'umuzenguruko w'umweru ugiye uzengurukijeho akantu k'umukara, yicaye mu ntebe y'akagare. Inyuma hari ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu harimo na keru.

Aha hari umugore w'inzobe ufite umusatsi w'umukara yambaye ikoti ry'umutuku, imbere yashyizemo agapira karirimo ibara ry'umweru inyuma ku gikuta hasa umweru.

Aha hari umugabo wambaye amarinete udafite umusatsi wambaye ikanzu iri mumabara umutuku, umukara, umweru na orange mo imbere yashyizemo agapira gasa n'umweru.

Aha hari abagabo n'abagore bagiye batandukanye bicaye aho hari undi uhagaze wambaye ibara rya orange ryerurutse ufite mo bike mu mufuka w'ishati aho bari kumva ibyo ababwira abandi bambaye cositimu bicaye.

Iki ni icyandiko k'igazeti cyatanzwe ku itariki makumyabiri z'ukwacyenda bibiri na cumi n'umunani kikaba kiri mu bice bitatu ururimi rw'Ikinyarwanda, ururimi rw'Icyongereza n'ururimi rw'Igifaransa.

Aha hari abantu bagiye batandukanye bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umukara, harimo abagore n'abagabo bamanitse amaboko. Imbere yayo hari amadarapo. Idarapo y'u Rwanda iri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu. Imbere hari abagabo bambaye utugofero n'amakanzu ari mu ibara ry'umutuku.

Aha hari abagabo n'abagore, abagore bicaye hasi bambaye ibitenge bamwe muribo abandi bicaye ku ntebe bafite n'utumeza imbere yaho hari n'umugabo ufite umutaka uri mu mabara atandukanye bose bicaye munsi y'ibiti.

Uyu ni umugore w'umusatsi muke w'umukara. Yambaye hejuru ikanzu irimo amabara y'umutuku, umukara n'umweru.

Aba ni abagore n'abagabo bicaye mu rwatsi bateze amatwi hari n'abandi bicaye ku ntebe n'imeza bikozwe mu mbaho, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye ku ruhande hari ibiti biri mu mabara y'icyatsi birebire aho harimo abantu bagiye batandukanye.

Aha ni mu nama ihuriyemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hari ameza atwikirije igitambaro kirimo ibara ry'ubururu bwererutse, harimo n'ibitasi bigiye bitandukanye, aho inyuma hari abandi bambaye utujire n'amashati y'umweru, hari ufite mudasobwa, ku ruhande hari n'abagiye bahagaze ku marembo binjiriramo.

Uyu ni umugabo ufite uruhu rw'amabara yombi rwiganjemo igikara aho yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku ifitemo n'umukara, yambaye ishati y'amako maremare yashyizemo karuvati iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Aya ni amarembo hejuru hari icyapa cyanditseho igororero rya Muhanga hari ibindi no mu rurimi rw'icyongereza byanditseho koregishono fasiriti. Icyo gipangu kiri mu mabara y'umukara, korutire irimo umweru n'umukara.

Ni umugabo wambaye amarinete, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku irimo n'umukara, yambaye imbere karuvate iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse n'ishati ivanze mu ubururu n'akeru. Ikindi yambaye amarinete arasa neza.

Aha hari ikintu kiri mu bwoko bw'ikiziga gisa umutuku mo hagati hakaba hasa umukara kikaba gifashweho n'utuntu tumeze nk'akarobine igikuta, kikaba cyegetse ku gikuta cy'umweru.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari amarembo yinjira ahantu hari ihuriro y'amabisi atwara abagenzi, hanze hari umupolisi wambaye akajire karimo ibara ry'icyatsi, hirya hari umumotari udafite umugenzi.

Aha hari imodoka ya porisi iri mu mabara y'umukara n'umweru yanditseho turafike porice( traffic police) ifite amapine asa umukara hagati hagasa umweru werurutse.

Aha hari ikirangantego cy'ibitaro bikuru bya polisi, kiri mu ururimi rutatu; ururimi rw'Icyongereza, urw'Ikinyarwanda n'urw'Igifaransa, ku ruhande rwacyo hari ikirangantego cy'Urwanda n'icya polisi, hari ibiti inyuma yaho, hari n'abandi bantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye babiri.

Aha hari imodoka iri mu mabara y'umweru hejuru ifite akambangukiragutabara kari mu mabara y'umutuku n'ubururu, ku ruhande hari igipangu kiri mu ibara ry'umweru, korutire y'igipangu kiri mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari ibiti byiza cyane biri mu mabara y'icyatsi.

Ibi ni ibicupa bibiri biri mu mabara y'umutuku birinda inkongi y'umuriro, ku ruhande hari ikindi cy'umugozi kiri mu ibara ry'umukara, biri hasi ku makaro y'umweru, igikuta kiri mu ibara ry'umuhondo werurutse, hari n'urugi ruri mu ibara ry'umweru.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, hirya hari ivatiri iri mu ibara ry'umweru, hirya hari inzu ya etaje, inyuma hari inyubako, ikindi hari n'umumotari udafite umugenzi, imbere hari umupolisi wambaye imyambaro iri mu ibara ry'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru, ufite mikoro, wambaye amarinete, uri gutanga ikiganiro, aho ahagaze inyuma yiwe amagambo yandikishije mu ibara ry'umweru, ikindi yandikishije ahantu hari ibara ry'ubururu.

Uku ni uko bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga bisa nk'aho ari mu gihugu cy'Ubwongereza, umuntu yari yohereje amafaranga igihumbi berekana n'undi ayo aribuze kwakira, kandi biba byerekana nimba ukoresheje ikarita za banki cyangwa izindi zose waba ukoresheje birabyerekana.

Aha hari abantu batatu abagore babiri n'umugabo umwe bari ahantu hatatswe n'amabara umuhondo, icyatsi n'ubururu imbere yaho hari agasanduku karimo k'amatora aho kari mu mabara y'umukara n'umweru hasi kakaba gateretswe ku ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Aha hari abantu barenze umwe harimo abagabo n'abagore, bari kurahira bakoze ku idarapo ry'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, n'izuba riri mu ibara ry'ubururu.

Uyu ni perezida uhagaze ari kuvuga atunze akaboko, imbere ye hari abayobozi bagiye batandukanye bicaye harimo abagore n'abagabo bari bamuteze amatwi bumva ibyo avuga.

Aha hari abamama n'abakobwa bambaye imicyenyero iri mu mabara agiye atandukanye, ruguru yaho hakikijwe n'ibiti, ruguru y'ibyo biti hari ahantu hari inyubako.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Iyi ni inama irimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere bafite za mudasobwa bafite n'amazi ku ruhande y'inyange, harimo abambaye kositimu ziri mu mabara y'ubururu, abandi ziri mu mabara ry'umweru, abandi n'abagore bambaye kositimu abandi baritandiye.

Aha hari umugore wambaye rinete, wambaye amaherena, wambaye ikote ririmo ibara ry'umukara, ishati irimo imbere iri mu ibara ry'ubururu, yambaye, afite umusatsi muke mutwe ukaraze ikindi inyuma ye hari amarido ari mabara y'ubururu bwerurutse.

Aha hari umugabo wambaye ikositimu iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, mo imbere yashyizemo ishati iri mu ibara ry'umukara na korovati iri mu ibara ry'ubururu, harimo n'utuzeru tw'umweru afite mikoro amanitse ukuboko asa n'uri kurahira, hasi yanditse ngo ni dogiteri Utumatwishima Jean, minisitiri w'urubyiruko.

Abagabo batatu n'undi mugore umwe aho bari kugenda hejuru, hari icyapa cyanditseho ngo: "Repubulike y'u Rwanda, komisiyo y'igihugu y'amatora, referandumu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu", aho ku ruhande hari ikiranganteko cy'u Rwanda, abo abantu harimo abambaye amabara y'umweru.

Aha hari abagore n'abagabo harimo n'abana, aho bari hari icyapa cyanditse ngo twitabire amatora, duhitemo neza Komisiyo y'Igihugu y'amatora, amatora y'Abadepite ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, aho ku ruhande hari ikirangantego cy'u Rwanda, hirya hari biri mu mabara y'idarapo ry'u Rwanda umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Aha hari abantu bagiye batandukanye aho perezida w'igihugu cy'u Rwanda ahari, yambaye neza, yambaye agapira k'umweru, ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara n'abandi barishimye, harimo abagore n'abagabo arikumva icyo bababwira.

Ni umugabo wambaye kositimu iri mu mabara y'umukara mu imbere harimo ishati y'umweru afite kuruvati iri mu ibara ry'ubururu. Ari guseka kuruhande hari idarapo ry'igihugu cy'uRrwanda ririmo amabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo harimo n'izuba riri mu ibara ry'umuhondo.

Aha hari abantu bazamuye akadarapo ka FPR kari mu ibara ry'umutuku, umweru, ubururu, FPR ikaba yandikishijwe ibara ry'umukara, aho harimo abagore n'abagabo bazamuye utudarapo bishimye, turi mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu.

Aha hari umugabo wicaye ufite mikoro wambaye karuvati y'umutuku ishati y'umweru n'ikoti ry'ubururu ufite mudasobwa imbere ye uri kugira ibyo avuga arigutanga amakuru, hasi hari amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda harimo amakuru amatora ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kandidida byose mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Aha hari umugore wambaye ibara ry'ubururu, wambaye n'amarinete ufite umusatsi muke ufite akamikoro imbere yiwe ikindi inyuma hari abagore babiri bari kumwitegereza bamuteze amatwi bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, ikindi inyuma hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Aha hari abagore n'abagabo bari ku murongo batonze umurongo, harimo abasaza, abakecuru, abakobwa, abagore, abagabo, harimo ingeri zigiye zitandukanye, bagiye batonza umurongo umwe kuri umwe.

Uyu ni umugabo w'imibiri yombi higanjemo igikara yambaye ikositimu iririmo ibara ry'ubururu bwijimye, ishati yashyizemo nidukarokaro imwe irimo umweru yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'umukara inyuma hari urugi mu ibara rya shokora yerurutse.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho harimo igikururana kibakirimo amazi imbere harimo imodoka ziri mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari umunyonzi ufite umugenzi inyuma kuruhande hari igiti, hari n'icyapa cyanditseho mitsingi.

Ahani ni mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo y'umweru icagaguye imenyesha ko umuntu yemerewe kuha kuwurenga hakaba harimo n'imodoka ebyiri z'umweru imwe ni ivatiri indi ni taxi moto.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo harimo bisi itwara abagenzi ifite abagenzi na shoferi wabo, harimo moto ebyiri zifite abagenzi. Ku ruhande hari hari umukararani wikoreye imizigo agafuka, hirya hari ibiti bikikije n'itara ryo ku muhanda.

Aha hari imodoka y'igikamyo itwara imizigo, inyuma hicaye umuntu wambaye amabara y'ubururu n'ingofero y'umuhondo, hasi hari umumotari ufite umugenzi, iyo modoka nta mizigo ifite inyuma, iruhande hari ibiti byiza n'amatara yo ku muhanda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka y'igikamyo iri mu mabara y'umuhondo yikoreye imizigo irimo amamatora menshi cyane, atwikirije igishitingi kiri mu mabara y'ubururu kiziritseho imigozi imbere yaho hari ikindi gikamyo kiri mabara y'umutuku kiri gutunguka kibisikana niyo y'umuhondo hirya y'umuhanda hari ibiti.

Uyu ni umuhanda urimo umumotari uri mu rugendo, harimo n'aho abanyamaguru bambukira bava ku ruhande rumwe rw'umuhanda bajya ku rundi, hariho n'inyubako ya etaje iri hirya y'umuhanda, hari n'ibiti byiza biri mu mabara y'icyatsi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hari abamotari benshi hirya hari inyubako ya etaje ifitemo amabara y'icyatsi n'umukara, hepfo yaho hari amamodoka abiri imwe iriw ibara ry'umukara indi ni ivatiri iri mu ibara ry'umweru hirya hari igicupa cya koka kola kinini.

Aho ni mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka y'igikamyo itwara ibinyabiziga. Ikindi kuruhande hari umunyonzi ufite umugenzi, hirya hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi. Icyo kinyabiziga gitwara imizigo kiri mu ibara ry'umweru harimo n'ubururu.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari abamotari bafite abagenzi harimo n'ibikamyo bitwaye imizigo bibiri. Ku ruhande hari inyubako ya etage, imbere hari imodoka itwaye abagenzi ikindi hari amatara yo mu muhanda.

Ahandi muri kaburimbo harimo imodoka itwara imizigo ifite shoferi irimo ibara ry'umweru, ku ruhande hari umumotari ufite umugenzi, hirya hari indi modoka irimo ibara ry'umweru hirya hari ibiti birimo ibara ry'icyatsi ikindi hano hari umugenzi wambaye umuhondo hejuru.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka zitwara imizigo, harimo imodoka zitwara abagenzi, harimo abanyamaguru, bikoreye imizigo harimo abamotarari bafite abagenzi, hakurya hari amazu ya etaje hari n'umusozi.

Uyu ni umugabo wambaye ijire ry'icyatsi yambaye bote afite ingorofani irimo imyanda yambaye ishati mu imbere y'amaboko maremare iri mu ibara ry'ubururu ingofero iri mu ibara ry'umukara ari gutwara imyanda.

Aha hari moto ya pelesande ikoreshwa n'umuriro, ifite batiri kindi ntamuntu ifite, imbere hari abagenzi bari kugenda, hirya hari andi mamoto agiye atandukanye afite n'amakasike, ari hepfo, hirya hari indi nyubako, utunyubako tugiye dutandukanye n'ibiti.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, urimo abamotari babiri n'umuyonzi umwe, bose bafite abagenzi, hirya hari ibikamyo bigiye bitandukanye, hejuru yaho hari ibiti bihari, hirya yaho hari inyubako ifite amabara y'ubururu bwijimye.

Aha ni muhanda wa kaburimbo, hari imodoka itwara abagenzi iri mu mabara y'icyatsi, umweru n'ubururu. Ku ruhande hari umugenzi wambaye hejuru ishati irimo karokaro harimo ubururu n'umweru uri kugenda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho kuruhande hariaba agati ba emuti eni hari n'imitaka imbere kuruhande, hari moto ifitemo amabara y'icyatsi, umutuku, umukara n'umuhondo. Hirya hari igare hari n'intebe imwe iri mu ibara ry'ubururu indi mu ibara ry'umweru hari n'umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry: icyatsi cyerurutse.

Aha ni muhanda ho kaburimbo harimo modoka ebyiri imwe y'akademintwara imizigo n'indi iri mu ibara ry'umweru hari abagenzi bari kugenda b'abanyamaguru, bagenda batambuka hari na moto zidafite abagenzi ebyiri hari n'ikigega kijyamo amazi kirimo ibara ry'umukara.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho hari ivatiri iri mu ibara ry'umweru, harimo n'abamotari, harimo umwe ufitemo umugenzi, hirya hari inyubako ya etaje y'ubucuruzi, aho harimo farumasi bita farumasi Bovani.

Aha nimwihuriro ry'amabisi atwara abagenzi aho ari mumabara agiye atandukanye, harimo n'abanyamaguru barikugenda harimo n'inyubako z'ama etaje zifite amabara agiye atandukanye.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho harimo igikamyo kiri mu mabara y'umuhondo gifite na oranje inyuma, kimwe kitwara amazi, imbere hari ivatiri iri mu ibara ry'umweru, imbere hari ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa, ku ruhande hari abamotari bafite abagenzi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ama moto abiri adafite abagenzi, hepfo hari imodoka y'umukara, hino hari inyubako; amazu y'ama etaje atatu agiye atandukanye afite; amwe afite amategura ari mu ibara rya oranje, ryerurutse andi ari mu ibara ryijimye, ry'ikigina.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo igikamyo kiri mu ibara ry'umutuku gitwaye umucanga, inyuma hari akabisi gatwaye abagenzi, ku ruhande hari etaje iri mu ibara ry'umweru, hari n'ivatiri iri mu ibara ry'umweru, n'indi y'umukara itagaragara, hirya hari abagabo bahagaze, hirya hari igiti.

Aha ni mu muhanda wa kaburembo. Harimo imodoka itwara imizigo, imbere hari imodoka y'ivatiri iru mu ibara ry'umutuku. Ku ruhande hari motari udafite umugenzi, ku ruhande hari umunyonzi ufite umugenzi

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo hari imodoka iri mu mabara y'umweru itwara imizigo ifite shoferi n'umusore wicaye inyuma ku ruhande hari moto ifite umugenzi, ku ruhande hari umunyamaguru uri kugenda hirya hari ibiti biri mu mabara y'icyatsi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho hari umumotari udafite umugenzi, hirya hari inyubako ya etaje, hino hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, hirya hari amapoto y'amashanyarazi, ku ruhande hari icyapa kibuza gukatira ibumoso.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo, hakikijwe n'amatara yo ku muhanda, ku ruhande hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, aho hari n'ikimoto cyanditseho hadi bodi kiri mu ibara ry'ubururu gitwawe n'umumotari, aho afite n'imizigo.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Iyi ni imodoka itwara abagenzi ifunguye umuryango, aho imbere yayo hari indi modoka nayo iriri mu ibara ry'ubururu n'iyi ifitemo amabara y'ubururu umukara, harimo n'udukoni turi mu ibara ry'umuhondo hirya hari na vora.

Aha hari umugore wicaye ahantu hari utwatsi turi muri kare, aho hari n'utunyubako tugiye dutandukanye dukoze mu biti, hari n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, hirya hari inyubako ya etage, hirya hari umukobwa wambaye ijiri y'umuhondo.

Aha ni ahantu hahurirwa n'imbaga y'abantu, hari inyubako zitandukanye, hari abantu bagiye batandukanye, hari n'ibyapa bibuza ko ibinyabiziga bihaca, ku ruhande hari ikinyabiziga cy'umumotari ari kugenda wenyine na mugenzi afite.

Aha ni mu mbuga irimo ibiti, irimo na pasiparume, ku ruhande harimo tapi iri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, aho bakorera imyidagaduro, hirya hari inyubako ya etaje iri mu mabara y'ubururu n'indi iri mu mabara y'umweru.

Sitade aho abantu bicara bagiye kureba umupira hari amapavo hasi ikindi hari amasikariye agiye atandukanye, ku ruhande hari ibyuma byubakishije amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, ku ruhande hari abagabo bicaye.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku ubuso bw'umweru ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara harimo umwana kaba arimo n'umupapa umwana afite imisatsi ifungiye inyuma umu papa nawe we yambaye ikabutura.

Ni icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku ubuso bw'umweru, ikiranganenga kiri mu ibara ry'umukara cyerekana ko byemewe. Ni ahantu hemewe guca bazengurutse aho biri kwerekana ko buzenguruka.

Aha ni mu muhanda ukomeje ugiye urimo amatara yo ku mihanda, imbere yaho hari icyapa gifite umuzenguruko w'ubururu, n'ubuso bw'umweru, werekana ko tugomba gutanga inzira ku banyamaguru, hakaba hari n'akandi kapa kanditseho Rambura mu mabara y'umukara, gafite umuzenguruko w'umukara, n'ubuso bw'umweru.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, uruziga ruri mu ibara ry'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara, aho hakasemo umurongo ni mu ibara ry'umutuku. Bivuze ko bibujijwe ko imodoka zifite moteri zihanyura.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda cyerekana ko byemewe gukatira ibumoso, aho gifite ubuso bw'umuhondo ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara, gifite umuzenguruko urimo ibara ry'umukara n'umuhondo, hirya hejuru hari ibara ry'ubururu; ikirere.

Aha hari ibyapa byo ku muhanda aho batwereka aho umunyamaguru yambukira n'uko imbere yacu ukata iburyo hari inzira ikata iburyo byemewe, ku ruhande hari umunara w'amashanyarazi hirya hari umurima w'ibigori uriho ibyatsi byiza.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari icyapa kitwemerera gukata iburyo bwacu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara, ku ruhande hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda cyerekana ko hari umuhanda w'abanyamaguru uzwi nka zebura korosi. Aho abanyamaguru bambukira, bava mu gice cy'umuhanda kimwe bajya mu kindi .Ufite umuzenguruko w'umutuku, ufite ubuso bw'umuhondo, ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara.

Aha ni muhanda kaburimbo aho ku ruhande hari amatara yo ku mihanda, hakurya hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, hino hari umugenzi uri kugenda, hari n'icyapa cyo ku muhanda cyanditseho mirongo itandatu ku muvuduko ntarengwa ni mirongo itandatu, hino hari inyubako iri mu mabara y'umuhondo.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda, aho umuvuduko ntarengwa ari kilometero mirongo itandatu ku isaha, ifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara, aho handitseho gatandatu na zeru, mirongo itandatu.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hirya hari umugenzi uri kugenda, mo hagati y'umuhanda harimo ibiti n'udupaparoma twiza hari amatara yo ku muhanda hari ibyapa byo ku muhanda hirya hari inyubako ya etaje iri mu ibara ry'umweru.

Aha ni muhanda wa kaburimbo aho kuruhande hari imodoka iri mu ibara ry'umukara hirya hari cadasitere ifite amabati y'umutuku wijimye, ifitemo n'amabara y'ubururu kuruhande hari ibigega by'amazi kuruhande hari icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ikirangantego cy'umukara n'ubuso bw'umweru.

Aha hari icyapa gifite umuzenguruko uri mu mabara y'umuhondo n'umukara, kikaba gifite ubuso buri mu ibara ry'umuhondo, icyerekezo mu ibara ry'umukara hari icyerekeza imbere yawe n'igikata ibumoso.

Aha ni ku ku muhanda wa amabuye, aho ku ruhande hari akapa ka keke magana n'atatu n'icyenda sitiriti. Aho hakwereka ko iyo ukase ibumoso, hari imodoka iri mu ibara ry'ubururu ya rava fo. Hirya hari umwana.

Hano ni mu muhanda wa kabirimbo ufite umurongo udacagaguye ukomeza, hari n'icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo gifite ikirangantego cy'umukara kitwereka ko twemerewe gukata iburyo bwacu, ikindi gifite umuzenguruko w'umukara n'umuhondo ubuso ni umuhondo.

Iki ngiki ni icyapa gifite umuzenguruko w'ikiziga, ikindi umuzenguruko wacyo uri mu ibara ry'umutuku, ikindi ikirango kiri mu ibara ry'umukara, ubuso ni umweru, haciyemo umurongo uri mu ibara ry'umutuku, uvuga ko bitemewe.

Aha hari icyapa cyo ku muhanda gisobanuye ko hari ibikorwa bikorera ku muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, iki kirangantego kiri mu ibara ry'umukara aho harimo umugabo uri kwerekana ibikorwa biri kubera umuhanda.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko urimo umuhondo n'umukara ubuso bw'umuhondo ikirangantego kiri mu ibara ry'umukara gifite ishusho y'uruziga, aho inyuma yacyo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Ibi ni ibiti biri mu mabara y'icyatsi hakurya hari inzu za kadasiteri n'iza etage, hino hari imodoka itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru hakurya hari abamotari batwaye abagenzi.

Aha ni mu nkengero z'umuhanda aho turi kubona ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, na korutire yubakishije udutafari twa mpunyu, ifite sekanyo ryo hejuru yayo hakaba n'inyubako y'umweru ya etaje.

Aha ni m'umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari ikibanza gikikijwe na senyenge gifitemo n'ibiti biri mw'ibara ry'umutuku by'ibyuma, hirya hari inyubako za etaje, hari iziri mw'ibara ry'umweru indi iri mw'ibara ry'icyatsi cyerurutse n'umutuku.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, urimo igikamyo gitwara imizigo, ku ruhande hari umunyonzi ufite imizigo, imbere hari umumotari udafite umugenzi, ku ruhande hari inzu ya etaje iri mu mabara y'umweru ifitemo n'umukara, ku ruhande hari ibiti.

Abagore n'abana babo bicaye ku ntebe z'urubaho ndende. Bafite udukayi dusa n'umutuku turimo impapuro, bategerereje ahantu hamwe.

Aha ni mu muhanda wamabuye, aho hari umu motari udafite umugenzi, n'imbere hari undi mu motari udafite umugenzi, ku ruhande hari abakobwa n'abahungu bari kugenda, hirya hari amazu y'ubucuruzi, hino hari inzu ya kadaseteri.

Aha ni ahantu hejuru hiteruye aho ubona inyubako zigiye zitandukanye za kadasitere, ama etaje, ibigega by'amazi, amategura n'ibindi bice bitandukanye hari n'amapoto y'amashanyarazi, hari n'ibiti ku ruhande byari bitandukanye.

Aha ni mu muhanda w'amapave aho ku ruhande hari amatara yo ku muhanda hari n'amapoto atwara amashanyarazi, hari n'ibiti birimo ibara ry'icyatsi, hari na korotire ifite umubare ku muhanda wa keke siti cumi na rimwe.

Uku ni ukuguru kwambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zirimo shokora yerurutse, zizengurukijeho akantu k'umukara, agasentire k'umukara, hasi hasa umweru. Akandagiye ku mapave.

Aya ni amabati ari mu ibara ry'umutuku afite anteni ya kanari ku ruhande, hirya hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi hakurya hari amazu aya kadasiteri n'aya etaje agiye atandukanye hino hari na korutire y'igipangu.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari imodoka nziza iri mu mabara y'umweru hakaba ku ruhande hari etaje yanditseho deko senta hejuru ku ruhande yanditseho ngo sawa siti nyarutarama inzozi nyarutarama biri mu mabara y'umweru ariko ako kapa kari mu ibara ry'icyatsi.

Aha ni mu muhanda w'amabuye aho hari imodoka zigiye zitandukanye hari imodoka ebyiri z'umukara, hari indi iri mu ibara ry'umutuku. Hirya hari abagabo babiri n'undi mugore uri imbere bahetse ibikapu byo mu mugongo bari kugenda.

Aha hari inyubako y'umweru ifitemo andi mabara y'ubururu make, hejuru ifite ibigega bibiri, ifite na jaride, ifite n'akapa kariho ko igurishwa inakodeshwa, hariho na nimero zo guhamagaraho.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho ku ruhande hari icyapa cyo kwamamaza kiriho ingagi, bandikaho n'imyaka icumi kuhande hari igiti cyiza kirimo mu mabara yi'cyatsi, hirya hari imodoka zitandukanye amavatiri n'imodoka zitwara abagenzi ku ruhande hari abanyamaguru bari kugenda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho hari imihanda ibiri, hirya hari amavawatiri n'izindi modoka ziri mu mabara y'umweru n'indi y'umtuku, kuruhande hari ibiti biri mu ibara ryicyatsi, kuruhande hari ibindi amatara yo ku muhanda.

Hari umuhanda w'itaka winjira mu muhanda wa kaburimbo, aho harimo imodoka ebyiri imwe iri guturuka hepfo iri mu ibara ry'umutuku y'igikamyo, indi ni akavatiri kari mu ibara ry'umweru kari guturuka hirya kaza kagenda mu muhanda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo igikamyo gitwara imizigo harimo ivatiri, harimo abantu bambuka, harimo ibimoto, harimo umuntu wambaye ijiri ry'icyatsi, harimo n'imodoka ebyiri imwe itungutse n'indi iri kurenga.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari abamotari babiri bagiye bafite abagenzi, ku ruhande hari umunyonzi uri gutambuka bari munsi y'ikiraro, hirya hari ibiti bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo urimo umumotari ufite umugenzi, hakaba hari n'imodoka y'ivatiri iri mu mabara y'umutuku, hirya yaho hari ishyamba rifite ibiti bigiye bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi.

Uyu ni mu muhanda wa kaburimbo, aho harimo abamotari, bamwe bafite abagenzi abandi ntabo bafite, bari kugenda, ku ruhande hari ya matara yo ku muhanda, hirya hari ishyamba ririmo ibiti biri mu mabara y'icyatsi.

Aha nimumuhanda wa kaburimbo harimo ibyerekezo ikerekeza iburyo n'ikerekeza ibumoso, kuruhande rw'umuhanda hari inkengero ziri mu mabara y'umukara n'umweru hirya yaho hari ibyatsi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo mu mahuriro y'imihanda, aho hirya hari umumotari ufite umugenzi hino harimo iri mu ibara ry'umweru ifite imizigo hirya hari igikamyo gifitemo umweru n'umutuku, ku ruhande harimo n'abagenzi bari kugenda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho harimo imirongo y'ibara ry'umweru, harimo n'abamotari bategereje gutambuka badafite abagenzi n'abandi bafite abagenzi, hirya hari kwerekana ko abagenzi batemerewe gutambuka biri mu ibara ry'umutuku.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo imodoka y'ibara ry'umukara hirya hari akapa ko ku muhanda, hino hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi biteye mu muhanda bikikijwe na n'utuntu tugiye turimo amabara y'umweru n'umukara, hari n'amatara yo ku muhanda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho kuruhande hari ivatiri iri mu ibara ry'umweru, zimwe zi guca hejuru y'ikiro izindi munsi y'ikiraro hari amatara ku muhanda ari kwaka mu ibara ry'umuhondo ryerurutse hirya hari abanyamaguru bari kugenda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo umumotari ufite umugenzi, n'umunyonzi ufite umugenzi, bari guca muri rompuwe, aho banyura bazangurutse. Ku ruhande hari ibiti, hari amatara yo mu muhanda.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amatara yo ku muhanda n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, hari kugendamo imodoka ya suzuki nini iri mu mabara y'umweru na motari uhetse umugenzi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari abamotari babiri badafite abagenzi, umwe ari kuzamuka undi ari kumanuka, hari n'icyapa k'ibyerekezo byombi ko byemewe kuhanyura, hari amatara ku muhanda hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi haruguru hari amazu.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho hari abamotari bafite abagenzi n'abanyegare bafite abagenzi, ku ruhande hari imodoka ziri mu ibara ry'umweru, inyuma hari imodoka iri mu ibara ry'ikigina cyerurutse, hirya hari ibiti n' ry'icyatsi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari mu mahuriro y'umuhanda, hirya hari amabaie ari mu ibara ry'umweru, hino hari abagenzi bari kugenda hirya hari etaje inyubako ya etaje hino hari inzu ya kadasitere ifite amategura.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari umumotari ufite umugenzi, ikindi harimo abamotari benshi ku ruhande, hari ibiti biririmo ibara ry'icyatsi, hari na ya matara yo ku muhanda kindi hari n'akayira gakata iburyo kajyaka.

Umuhanda ibiri ya kaburimbo imanuka yagera imbere agakata uburyo n'ibumoso, ikaba ifite amatara ku muhanda. Ifite rigori, imbere ya yo haparitse igare.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo harimo ya matara yo ku muhanda, ku ruhande hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, ikindi hari imodoka z'amavatiri ziri mu mabara agiye atandukanye, hari abamotari bafite abagenzi n'abandi badafite abagenzi.

Aha ni mu muhanda wa kaburimbo, aho ku ruhande hariho aba motari bategereje abagenzi, harimo n'abanyonzi, n'ufite igare kuhande, hirya ni munsi y'ikiraro, hejuru hari amatara ari kwaka ibara ry'umuhondo, hari n'icyapa cyemera ko batemewe kuhaparika.

Ahandi mu muhanda wa kaburimbo harimo amaferuje, harimo ibimenyetso biririmo ibara ry'icyatsi byerekana ko abanyamaguru bemerewe gucaho, harimo amabara y'umutuku kindi harimo abamotari bafite abagenzi, harimo imodoka zitwara abagenzi, harimo n'amavatiri ari mu ibara ry'umweru.

Aha ni ku muhanda wa kaburimbo harimo umuhanda abanyamaguru bambukiramo zebura korosingi hakaba hari amaferuge ari mubara ry'umutuku, umuhondo, harimo abamotari bahetse abagenzi, harimo amavatiri, harimo ibinyabiziga bitwara abagenzi, harimo n'izindi modoka zitandukanye ku ruhande hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.